Imitaka iri mu maba agiye atandukanye y'umutuku n'ubururu, aho iyo mitaka ari ingenzi cyane, itangirwamo serivisi zigiye zitutandukanye, z'ikigo cya Airtel mu Rwanda.

Umugabo uhagaze mu muryango wambaye imyambaro y'umweru, akaba ari guseka yishimye, bigaragara ko akora ibikorwa bigiye bitandukanye by'ingirakamaro.

Akazu k'ikigo gitanga serivisi z'imiyoboro y'itumanaho mu Rwanda cya Airtel, kakaba gafunze, kakaba kegereye umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'abantu benshi bagiye batandukanye.

Umugabo ukorera ikigo cya sosiyete itanga serivise z'itumanaho mu Rwanda MTN akaba yambaye akajire k'umuhondo, aho afite telefoni mu ntoki yifashisha atanga serivise.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi ya menshi. Akaba ari ahantu aho ari kugenda akura amoko agiye atandukanye y'ibihingwa mu mufuka kugira ngo abe yabyifashisha.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu nyubako aho harimo abiganjemo bambaye udupira tw'ubururu turiho ikirangantego cy'u Rwanda, bakaba bari gukorera hamwe kugira ngo barebe ko bakwiteza imbere.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye hamwe mu cyumba bigaragara ko bari mu nama, bambaye amakositimu meza cyane ndetse na karuvati, bakaba bari kugenda bahana amajambo.

Imifuka myinshi igiye itandukanye ya kiro jana ipanze ahantu mu nyubako nziza cyane, ikaba irimo imyaka y'ibigori basaruye none bakaba barayihunitse muri iyi nyubako.

Amahundo y'ibigori arunze hamwe bigaragara ko ari ibigori basaruye none bakaba bari kubyanika neza kugira ngo babihure, babihungure maze babashe kubyifashisha bashaka amafaranga yo kwishyurira umwana wiga mu mashuri yisumbuye ku kigo kibegereye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo abantu bize ibijyanye no gukanika ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, hakaba harimo umugore wicaye ndetse n'umugabo uri kugenda akanika amwereka uko bikorwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite amabati asa ubururu, ni inyubako y'isoko aho munsi hahuriyemo abantu benshi cyane bagiye batandukanye baje kugura no kugurisha.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi kajya gusa umukara, akaba ahagaze ahantu mu busitani ari kumwe n'abanyamakuru bari kugenda bamuganiriza bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye hanyuma na we akabisubiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'akabari, aho haba hari intebe ndende, abantu bajemo bicaraho bakaganira neza, nta we ubangamiye undi.

Igikuta kibanditseho icyapa kiri mu mabara y'umuhondo cyanditseho amagambo gatanu, bigaragara ko bacururizamo inzoga yo mu bwoko bwa skol gatanu.

Uducupa turimo amoko y'inzoga agiye atandukanye, aho izi nzoga ari ingenzi cyane ku buryo uzisanga mu tubari tugiye dutandukanye, maze umuntu yasomamaho zikamugwa neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyo nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye abantu bicaraho baje gushaka icyo kunywa, aha rero hakaba ari mu kabari.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako y'akabari, ikaba itangirwamo serivis zigiye zitandukanye, ku buryo umuntu wese uhaganye, bamwakira neza cyane.

Mu tubari haba harimo intebe nyinshi cyane ziba zigiye zipanze neza ndetse hari n'ibikuta biba biri kwakaho amatara atagaragara neza ku buryo umuntu wese uhageze yumva aguwe neza.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu bahinga ibirayi barabigize umwuga bakabyitaho, hanyuma byamara kwera, bakabigemura ku masoko.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite ibikuta byiza cyane biteyemo amoko agiye atandukanye y'irange aho ari umuhondo n'icyatsi.

Iduka ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho ibi bicuruzwa ari ingirakamaro cyane, kuko icyo waba ukeneye cyose, ujya kugishakira hano bakakiguha ku mafaranga ake cyane.

Mu maduka ahacuruzwa imyambaro myinshi igiye itandukanye, aho iyi myambaro aba ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese uyambaye ibasha kumuteza imbere cyane.

Iduka ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho ibyo bicuruzwa ari ingirakamaro cyane, ku buryo iyo ubikeneye uhanyarukira, bakabikugurisha ku mafaranga make.

Akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu maduka cyangwa se mu tubari, aho harimo inzoga nyinshi cyane abantu banywa bakenera.

Mu isoko ahacururizwa gaze amoko yose, hakaba hari akabati gafunguye handitseho ngo tubafitiye gaze n'ibikoresho byayo bigiye bitandukanye.

Umugabo uri mu iduka aho ari kumwe na mugenzi we, bakaba bari kwamamaza ibicuruzwa bacuruza byinshi bigiye bitandukanye, aho icyo waba ukeneye cyose, wanyarukira hano bakakiguha.

Agacupa kari mu mabara y'umweru gashushanyijeho umwana uri gukambakamba munsi hakaba handitseho amagambo y'umutuku mu rurimi rw'Icyongereza, kano gacupa kakaba karimo amavuta wagasanga mu maduka.

Mu iduka hacururizwa amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho ibyo bicuruzwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubikeneye, anyarukirayo bakabimugurisha ku giciro kiza.

Inyubako nini icururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa aho ibi bicuruzwa ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese ubikeneye aza akabihahahira ku mafaranga make cyane.

Iduka ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho aho haba hari ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa hakaba hari n'abacuruzi babyo baba babizanye bagiye batandukanye.

Inyubako nziza cyane y'urusengero aho ifite umusaraba hejuru, akaba ari urusengero rw'abagatulika aho imbere hari abantu bahagaze bigaragara ko bari baje mu nama ku rusengero.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abarimu ndetse n'abanyeshuri, bakaba bahagaze imbere y'urusengero rwubatse mu buryo bugezweho, ruteye amarange y'umweru ku bikuta.

Inyubako nziza cyane aho iyo nyubako ifite ibikuta biteye irangi risa icyatsi ndetse ikaba ari inyubako y'urusengero ikaba nta kigega bafite bigaragara ko iyi nyubako na yo yafunzwe.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba imbere yabo hari igitambaro kiza cyane cy'umukara, bakaba bari gukoresha inama.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bateraniye hamwe bicaye, imbere yabo hari musenyeri, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, arimo kubasomera misa.

Salon irimo ibikoresho bigiye bitandukanye aho harimo ameza ndetse hakaba harimo n'intebe nziza cyane abantu bicaraho maze bakaganira bakamererwa neza cyane.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho dufite ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse n'ibiti birebire bizana umuyaga n'amahumbezi, akaba ari muri hotel.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umuhondo, iyi nyubako rero ni nziza cyane kubera ko umuntu wese uyitunze ibasha kumuteza imbere.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho izo nyubako zubatswe mu buryo bw'amagorofa zikaba zifite ibipangu byiza cyane ndetse zikaba ari inyubako bacururizamo.

Imbehe nziza cyane iriho amoko agiye atandukanye y'ibiribwa aho ibi biribwa ari ingirakamaro cyane ku buryo iyo ubiriye bibasha kukugirira umumaro mu mubiri wawe.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako ya hoteli, aho harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye bakiriraho abahagana ndetse hakaba hari n'amagambo ahanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo murakaza neza.

Muri hoteli haba hari amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byifashishwa cyane cyane mu mwuga wo kwakira neza ababagana, maze umuntu yahagera bakamuha icyo ashaka.

Hoteli ziba zifite ahantu heza cyane umuntu yasohokanira n'umukunzi we hanyuma bakifata neza bakamera neza, iyi rero ifite ubusitani bwiza cyane bugezweho ndetse harimo na pisine.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako isakaje amabati y'umutuku, ikaba ari nziza cyane ndetse yubatswe mu buryo bw'amagorofa, iteye n'amarangi menshi.

Muri hoteli batanga serivise zigiye zitandukanye zikanyura abakiriya babagana ku buryo bataha bishimye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako ya hoteli yakirirwamo abantu benshi bagiye batandukanye baba baje kuhasura, hakaba hari intebe ziri mu mabara y'umutuku.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imboga ndetse n'imbuto abantu bakenera, aho uzikeneyene wese aza kuzigurira ahangaha, akazibona ku mafaranga make cyane.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imyambaro, aho umwambaro wose waba ukeneye uza ukawuhahira aha ngaha ku mafaranga make cyane maze nawe ukambara neza.

Umugore uri kumwe n'umwana n'umugabo, bakaba banyuze mu isoko ricuruza inkweto kugira ngo barebe ko babonamo udukweto twakwira uwo mwana maze akazajya atwambara.

Akabase karimo udukoresho tugiye dutandukanye ndetse n'udutako dufite amabara menshi ku buryo ako waba ukeneye kose uza kukagurira ku isoko ukakabona.

Mu isoko ahacururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa aho umuntu wese ubikeneye ahanyarukira maze bakabimugurisha ku giciro gito hanyuma agahendukirwa.

Mu isoko haba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'abacuruzi babyo babicuruza, hari akameza kariho amavuta y'ubwoko bugiye butandukanye ndetse n'umufuka uriho igikukuri.

Ahantu mu isoko bacuruza amoko agiye atandukanye y'ibikoresho bikunze kwifashishwa mu rugo, aho bacuruza n'amashitingi, aho ubasha kuba wayagura, ukajya wanikaho, umusaruro wawe.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho ibyo bicuruzwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubicuruza bibasha kumuteza imbere cyane.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho ibi bicuruzwa ari ingenzi cyane ku buryo igihe cyose waba ubikeneye unyarukira muri iri soko hanyuma bakabiguha ku giciro kiza.

Isoko ryahuriyemo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye aho higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari kugenda muri iryo soko aho bishimye kandi baje guhaha.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imyenda, aho imyenda yose waba ukeneye unyarukira hano, hanyuma abacuruzi bakayikugurisha ku mafaranga make cyane, maze ukaba watera imbere.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, haririmo intebe ndetse n'ameza, akaba ari muri resitora, aho abantu baje bahagana barira.

Umuntu uri mu muhanda wa kaburimbo ukora akazi k'ubunyonzi, akaba ari gushyira ku igare abagore babiri aho agiye kubatwara ngobererekeje aho bashaka maze bahagere vuba.

Umuntu uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo atwaye igare yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba ari kugenda aritwara yihuta cyane kugira ngo adakerererwa.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto itwawe n'umugabo wambaye akajire akaba ahetse undi mugenzi we wambaye ishati y'amaboko magufi, bakaba bari kugenda muri uwo muhanda wa kaburimbo.

Ahantu hari amoko agiye atandukanye y'ibinyabiziga aho hari imodoka y'umukara na moto iri gutwara umugenzi ndetse n'indi moto ihetse igisanduku hirya n'ibindi binyabiziga byinshi.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho itwaye abantu babiri ndetse bakaba bafite n'umuzigo hagati yabo, uwo muhanda ukikijwe n'ibiti birebire cyane.

Moto itwaye umugenzi aho hari n'izindi nyinshi ziparitse aho ku ruhande, bigaragara ko na zo zitegereje abagenzi ngo zitsimbure zigende.

Moto ziba zaragiye zitera imbere cyane uko iminsi igenda ishira, aho hariho moto ziba zifite udusanduku tw'umuriro w'amashanyarazi, bakaba bazitwara batagombye gukoresha lesansi nk'izindi zose zisanzwewe.